Isosi y'ifi iraryoha cyane. Abantu barayikunda ariko ntibakunda kuyibona. Ikindi kandi, iyo uri kuyirisha ubugari, biba ari byiza cyane.

Amafi ndagukunda cyane kuko afite intungamubiri ku mubiri wacu. Abantu benshi barayakunda, kuko araryoha, kandi akaturinda n'indwara.

Mu nyanja habamo ibintu bigiye bitandukanye kandi biribwa twavugamo: amafi, isambaza, indagara, ndetse n'isonzi batekamo isosi.

Ifi ndayikunda cyane kuko iraryoha igira utwisho tunini, ikagira amagaragamba, kuruhande igira um... ikagira n' amaboko ikindi yoga neza.

Karoti ziraryoha cyane, ikindi kandi ziba zisa n'umutuku, zivura n'amaso, bazikoramo salade, ikindi kandi barazihekenya.

Mu gihugu cyacu duhinga ibimera bigiye bitandukanye, duhinga ibishyimbo cyane cyane, duhinga n'umuceri iyo dufite igishanga gihagije kinini cyane cyo guhingamo umuceri.

Ibigo ndabikundaga cyane, kuko biraryohaga, bigeze hejuru tubiteraga umuti kugira ngo byica udukoko twagiye, ikindi kandi tubishyira agahita ka kugira ngo bizamuke neza bizaduhe umusaruro bishimishije cyane.

Nkunda ibigori kuko ibigori kubihinga ntibivuna, iyo tugeze mu gihe cyo kubishyiraho itaka dushyiranamo ifumbire mvaruganda, kugira ngo bizamuke neza bizaduhe umusaruro ushimishije cyane.

Amatunda ni meza cyane agira amoko agiye atandukanye. Hari ayerera hasi hari n'azamuka ku ruzitiro. Ikindi kandi agira utubuto dutoya cyane mo imbere.

Guhinga ndabikunda cyane kuko bituma tubona ibyo turya, bigatuma twiteza imbere mu biribwa, tukarwanya imirire mibi ya bwaki, kubera ko duhinga imyaka itandukanye duhingagamo: ibirayi, ibishyimbo, ibigori, buri kintu cyose gitera imbaraga n'ikirinda indwara turabihinga.

Amateke araryoha cyane, abamo amoko agiye gatandukanye, twavugamo amateke ya bwayisi, tukagiramo n'andi y'amanyarwanda, aba afite agatwe k'umutuku.

Igihingwa cy'umwumbati ndagikunda cyane, kuko gikundwa n'abantu benshi cyane, kuko kiraryoha, ikindi kandi wa kigeretse ku bishyimbo bigahoberana urarya ugahaga cyane.

Voka ndayikunda cyane kuko iraryoha, igira umumaro ku mubiri wacu, ikindi kandi iba isa n'imbere n'umuhondo, ikagira n'ikibuto kandi twayibarira mu bwoko bw'imbuto.

Ibirayi ni byiza cyane turabikunda kuko tubitekamo ifiriti tukarya tukanezererwa, ikindi kandi tubijyana ku masoko tukabigurisha bikaduha amafaranga yo gutangiramo abana ku mashuri.

Ibipapayi biraryoha cyane abantu barabikunda, biba bisa n'icyatsi iyo bitari byakura n'aho iyo byeze biba bisa n'umuhondo, bigira n'utubuto tw'umukara kandi dutoya cyane.

Igitoki ni cyiza cyane, abantu benshi baragikunda. Ikindi kandi kiba gisa n’icyatsi, ariko iyo wagitetse ugashyiramo ibirungo kirahinduka kigasa n’umutuku, ukarya ukumva urijuse.

Ibigori biraryoha cyane, noneho iyo kimaze gukura ukagikuraho ibishishwa ukacyotsa buri muntu wese arakireba akumva ashaka kukirya, abantu barabikunda ku rwego ruri hejuru cyane.

Avoka ni igihingwa cyiza cyane abantu bakunda guhinga mu mago yabo kuko kibafitiye akamaro kanini cyane gituma bajyana umusaruro ku isoko.

Amapera ndayakunda cyane kuko araryoha, agira amoko agiye atandukanye hari ay'umweru, hari n'ay'umutuku, agira utubuto dutoya cyane mo imbere.

Inkoko ndazikunda cyane. Ikindi kandi zidufitiye akamaro kanini. Ziduha inyama, amagi tukayajyana ku isoko, tukishyurira abana bacu amashuri.

Nkunda ingurube cyane kuko zirororoka mu buryo bwihuse. Ikindi kandi ziba zifite umunwa muremure n'amatwi maremare.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane abantu baragikunda, ikindi kandi iyo kigeze mu gihe cyo kubisarura barabiteka bigafufuka.

Kugira ngo twihaze mu biribwa haza ubuyobozi butwerekera ukuntu tugomba guhinga bya kinyamwuga, kugira ngo imyaka yacu yere neza iduhe umusaruro uhagije.

Amateke ni meza cyane abantu barayakunda, ikindi kandi atera n'imbaraga. Bayajyana ku isoko bakayagurisha, bakabonamo amafaranga bikenuza ibindi bibazo bafite.

Igihaza ni cyiza cyane abantu baragikunda. Ikindi kandi kigira amabara atandukanye. Hari ikiba gisa n'umuhondo, hari n'ikiba gisa icyatsi. Ikindi kandi kigira imbuto mo imbere.

Imyembe iba mu bwoko bw'imbuto kandi iraryoha, ikindi kandi iyo itari yera iba isa n'icyatsi, yaba yeze igasa n'umuhondo.

Amasaka ndayakunda cyane kuko amasaka agiye atandukanye hari ay'umukara, hari ay'umutuku , hari n'ay'umweru. Ay' umukara avamo umusururu, n'aho ay'umutuku avamo ifu y'igikoma.

Ibitoki ndabikunda cyane kandi ibitoki birimo amoko menshi, harimo ibitoki bataramo imineke n'ibitoki barya, ibitoki bataramo imineke biba birimo amakashi.

Ibirayi ndabakunda cyane, kuko bita rushya kubihinga iyo bigeze mugihe cyo kubonera ibitaka dushiranamo ifumbire mva ruganda, kandi tukabiterana umuti kugirango bikurebeza cyane.

Iyo amasaka yeze barayasarura bamara kuyasarura bakayanika akuma neza, hanyuma bakayahura bakayajyana ku isoko bakayagurisha bakayabeteshamo n'igikoma.

Amasaka ni meza cyane, ndayakunda cyane, kuko iyo yumye, turayasarura, tukayabeteshamo igikoma, ikindi kandi tuyajyana ku isoko, bakaduha amafaranga.

Ubunyobwa ni bwiza cyane abantu barabukunda, bwerera hasi nk'ibirayi. Ikindi kandi iyo ba bukaranze abantu baraburya bakumva baranezerewe.

Ibishyimbo bigufi ni byiza cyane kuko ntibivuna, ikindi Kandi bigira utuyange tw'umweru. Iyo bigiye kwera bibanza byazana imiteja, nyuma yaho bikaba ibishyimbo.

Ubunyobwa ni bwiza cyane abantu barabukunda, ikindi kandi bwera hasi mu butaka buba busa n'umutuku. Iyo babukaranze abantu baraburya bakumva baranezerewe.

Ibigori ni byiza cyane none ni iyo wabishyizeho ifumbire mvaruganda, biragenda bigakura. Bitari byera biba icyatsi, ibitari byayeka bifite udutsate tw'umutuku naho iyo byeze bigira ibigori bihetse.

Ibinyampeke ni byiza k'umubiri wacu ,niyo mpamvu abantu benshi tubikunda, kubera ko bidufitiye akamaro kanini, ikindi kandi bikadutera n'imbaraga.

Mu gihugu cyacu duhinga ibintu bigiye bitandukanye twavugamo: ibigori, n'ibishyimbo , ikindi kandi duhinga n'umuceri n'ingano.

Ibishyimbo habagamo amoko menshi gagiye gatandukanye; hari ibishimbo bitondagiraga ku biti, hari n'ibishyimbo byeraga bidakene ibiti kandi byose biraribwa.

Ibishyimbo ndabikunda cyane kuko bigira akamaro ku mubiri wacu. Turarya tugahaga tugasagurira n'amasoko. Ikindi kandi, iyo twadukanze neza tukaduteka ku bishyimbo, ugira ngo ni inyama.

Mu Rwanda dufite inka nyinshi zigiye zitandukanye, ziduha umusaruro ushimishije cyane. Umukamo wazo tuwujyana ku isoko, ukaduha amafaranga.

Umuganga w'amatungo, yita ku matungo atandukanye, iyo yarwaye kugira ngo ayavure, agire ubuzima bwiza bw'ayo matungo, twavugamo inka, ihene, inkoko...

Inka ndazikunda cyane, kuko ziba shimishije. Ikindi kandi ziduha inyama, zikaduha ifumbire yo guteza imyaka kugira ngo izakure neza, iduhe umusaruro ushimishije.

Inka ndayikunda cyane, kuko iduha ifumbire tugateza imyaka yacu ikamera neza, iduha amata ikaduha n'inyama, ikindi kandi tuyikoresha mu misango y'ubukwe.

Nkunda inka cyane kuko iduha ifumbire kugira ngo imyaka yacu ikure neza, ikaduha inyama turya tukihaza mu biribwa tukanywa n'amata tukagubwa neza cyane.

Mu gihugu cyacu ba mukerarugendo barahakunda, kuko baba baje gusura ingagi, ziba ziteye amabengeza kuzireba, ikindi kandi zisa n'umukara.

Udukende ni twiza cyane, kuko dukurura ba mukerarugendo bakaza kudusura mu gihugu cyacu, bakadusigira amadovize, kubera ukuntu ari twiza dufite uburanga.

Imbata ni nziza cyane abantu barazikunda. Ikindi kandi zigira umunwa munini cyane. Zikunda amazi, iyo ziri koga ubona bishimishije cyane.

Agakwavu ko mu ishyamba kaba kazi ubwenge cyane. Ikindi kandi iyo gahagaze mu byatsi, ubona kameze neza cyane. Kaba kandi kazi kwiruka.

Inyoni yitwa gasuku igira amabara atandukanye, muri ayo mabara twavuagamo: umuhondo, ubururu, ikaba ifite umunwa guhese kandi impande y'izuru hakaba ibara ry'umwe.ru

Inzovu ni inyamaswa nziza cyane abantu barayikunda. Ikindi kandi igira amahembe, ikagira amatwi, ikaba ari nini, ikaba igenda gahoro gahoro. Yanga abantu barayiyenzaho gusa.